Imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye mu kibuga cyiza gifite ubwatsi butoshye, bufite ibara ry'icyatsi kibisi nanone kandi hari ibiti by'ubwoko bwinshi ndetse n'amazu atuwemo n'abaturage.

Ahantu hateganyijwe, hatatswe neza, hashyizwe iterenti itatse amabara y'idarapo ry'Igihugu, ari yo: ubururu, umuhodo n'icyatsi, hari kubera ubukangurambaga, aho abantu baturutse imihanda yose, bakaba bari gukurikira, icyo bari kugezwaho n'umugore uri imbere yabo.

Abanyeshuri ba kaminuza bateraniye mu inzu nini yabugenewe iberamo ibintu bitandukanye birimo nk'inama. Abo banyeshuri bicaye neza mu ntebe ndetse n'ameza bari gukurikirana ibyo abari imbere yabo bari kubabwira.

Mu nyubako nziza ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu n'umutuku hateraniye imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye imyambaro yose iri muri ayo mabara ndetse bakaba bari gushyigikira ishyaka riri ku butegetsi bw'Igihugu cy'u Rwanda.

Ababyeyi babiri b'abagore, umwe muri bo wambaye imyambaro izwi nk'imikenyero ndetse n'undi, bari mu bukangurambaga bwo kuzamura ibikorerwa mu isibo. Umwe muri abo babyeyi akaba afite indangururamajwi, aho afite ibyo ari kugeza ku bamukurikiye ku bigendanye n'ingingo zateguwe kuvugwaho.

Mu cyumba cy'ishuri rya kaminuza, harimo umugabo wambaye umwambaro ufite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bweruye, akaba yicaye aho ari gukurikira ibyo ari kubwirwa na none kandi hari uducupa turimo amazi asukuye.

Umugaboba mukuru w'inzobe wambaye imyenda ifite amabara y'imikara afite indangururamajwi, aho ari imbere y'abantu akaba ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ingingo runaka zitandukanye.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe bateze amatwi umugabo uri imbere yabo, akaba ari kubasobanurira byinshi na bo bakaba bateze amatwi, uwo mugabo akaba ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Ahantu hagenewe kubera inama, abagabo babiri bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, bateraniye hamwe aho bari mu nama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare, na none kandi hari ibyo kunywa bitandukanye biri imbere yabo.

Mu cyumba gifite ibara ry'umweru, hicayemo abagabo, barimo abari gukoresha mudasobwa, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ingingo zitandukanye, ibi bikaba bifasha kugira ngo imikoranire myiza, yiyongere hagati y'abakozi ndetse n'abakoresha.

Mu bukangurambaga bwo guteza imbere ibikorerwa mu isibo, umugore wambaye imyambaro y'imikenyero, ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, afite indangururamajwi, aho ari imbere y'imbaga cyangwa se abantu benshi bamukurikiye, akaba afite ibyo ari kubagezaho ku ngingo runaka.

Abantu batandatu, barimo abagabo bane, bari mucyumba gifite ibara ry'ubururu bweruye, umwe muri bo akaba afite igikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho, akaba ari gufata amashusho y'abantu bamuri imbere.

Mu cyumba kiza gisize irangi ry'umweru, hari kuberamo inama y'ikigo, aho abagabo ndetse n'abagore bateraniye. Iyo nama ikaba iyobowe n'umugore mukuru, aho yifashishije ikoranabuhanga ari kuganira n'abo bakozi ku ngingo zitandukanye zireba iterambere ry'akazi.

Mu bukangurambaga bwateguwe mu rwego rwo kugira ngo urubyiruko rumenye amateka yarwo, hari kuberamo imyidagaduro aho abasore babiri bambaye imyambaro y'ubururu bw'ikirere ndetse n'umweru bari gususurutsa imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore n'urubyiruko.

Mu cyumba gisize irangi ry'umweru harimo itsinda ry'abakobwa bambaye imyambaro ishingiye ku muco, iyo myambaro ikaba yitwa imikenyero, imikenyero yifashishwa mu birori bitandukanye cyane cyane mu bukwe, bwaba ubwa kera ndetse n'ubw'ubu.

Agaseke kanini gafite amabara y'ikigina ndetse n'umukara, kaboshywe mu byatsi ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuco nyarwanda, kakaba kifashishwa mu migenzo itandukanye irimo ibirori nk'ubukwe ndetse n'ibindi.

Itsinda rigari ry'abantu bakoraniye ahantu hamwe bakaba bicaye, barimo gususurutswa n'itsinda rigari ry'babyinnyi rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'imikara bari kubyina imbyino za Kinyarwanda.

Inka nziza cyane yo mu bwoko bw'inyambo ifite amahembe maremare ndetse ifite ibara ry'ibihogo yatambirijwe umutako ku mutwe. Iyi nka ikaba ifite igisobanuro kinini mu muco nyarwanda iyo nka kandi iherekejwe n'umushumba wayo wambaye imyambaro gakondo ifite amabara y'umweru n'umukara.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hari kubera imyidagaduro bari gususurutswa n'umugabo wambaye imyenda y'imyeru, ndetse n'umukara n'amayugi akaba ari kubasusurutsa binyuze mu mbyino za Kinyarwanda zishingiye ku muco. Impande ze hari abandi bari kumuririmbira izo ndirimbo.

Igikoresho cyitwa umuvure kibajwe mu giti, kikaba cyarifashishwaga n'abanyarwanda bo mu Rwanda rwo hambere, igihe babaga bari kwenga ibitoki byabo ngo babikuremo umutobe, maze uwo mutobe na wo uze kuvamo urwagwa.

Igikoresho cyitwa inkono y'itabi cyahoze gikoreshwa cyane n'Abanyarwanda bo mu Rwanda rwo hambere cyane cyane abasheshakanguhe, abasaza cyangwa se abakecuru bakaba baragiraga ikintu bashyira muri iyo nkono y'itabi maze kikarekura umwotsi nabo bagatumamagura.

Hifashishijwe inzego ebyiri abagabo babiri bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu y'akazi babashije kuzamuka hejuru ku muyoboro w'amashanyarazi aba bagabo bakaba bari kugerageza gukemura ikibazo cyatumye habaho ibura ry'umuriro.

Abagabo babiri bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka, bari mu byuma hejuru, aho bafite ibyo bari gutunganya.

Ni ngombwa cyane ko ibikoresho by'amashanyarazi cyane cyane ibyifashishwa mu gutwara amashanyarazi binyuzwa mu kirere aho kugira ngo binyuzwe mu butaka, ibi bikaba ari mu rwego rwo kwirinda ingaruka zishobora kuba zaterwa na byo harimo nk'impanuka zishobora kuba zanateza urupfu.

Ibikoresho birebire cyane by'ibyuma, byifashishwa mu kuvana umuriro w'amashanyarazi ahantu hamwe, ujyanwa ahandi, biwunyujije mu kirere. Ibi bikaba bigabanya impanuka nyinshi zishobora kuba zaba mu gihe izo nsinga z'amashanyarazi zaba zinyujijwe mu butaka.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyambaro y'akazi, ifite ibara ry'ubururu, ari gukora amashanyarazi. Akaba yambaye ingofero irinda impanuka ndetse akaba ari gukoresha akandi gakoresho, kamufasha kugira ngo umubiri we utagira ahantu uhurira n'umuriro w'amashanyarazi maze bikaba byatera impanuka.

Urugomero rugari rwubatse ku nkengero z'amazi, urwo rugomero rukaba ruhinduramo amazi mo amashanyarazi, ayo mashanyarazi akaba yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere.

Inyubako rusange ya leta itararangira, iri kubakishwa amatafari ndetse ikaba itaranasakarwa, ifite imiryango ine ndetse ikaba itaranatunganywa ku buryo yakorerwamo. Hakurya y'iyo nzu, hari izindi nzu zarangije kubakwa.

Mu muhanda unyura hagati y'inyubako nyinshi, harimo ibinyabiziga bitandukanye byifashishwa mu gutwara imizigo, iva mu gihugu kimwe ijya mu kindi na none kandi hari izindi nyubako zitandukanye, zituwemo n'abantu.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'ubururu ndetse ifite icyapa hejuru yayo cyanditseho ijambo Girabuzima, imbere yayo hari intebe zicayeho abana bato, imbere y'iyo nyubako kandi hari igikoresho cyifashishwa mu gusukura intoki cyitwa kandagira ukarabe.

Ikibumbano kinini gikozwe mu isima, ndetse gifite umuzenguruko w'amabara y'idarapo ry'Igihugu, ari yo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Hakaba handitseho kirazira ndetse n'indangagaciro. Mu ndangagaciro, hakaba harimo umutekano, ubutwari, ubwitange ndetse n'ibindi.

Inyubako y'ibiro by'akagari ntoya ifite amadirishya mato ndetse ifite n'inzugi nto, isakaye mu buryo butagezweho, ifite ibara ry'umweru ridakeyeye ndetse ikaba nta n'ibaraza ifite, ikaba imanitseho icyapa cyanditseho, kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu na rimwe.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ku kiraro bisa nkaho cyubatswe vuba. Icyo kiraro kandi kikaba gifite ibyuma ku mpande bifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, akumira ibinyabiziga cyangwa se n'abantu kuba bakigwamo. Na none kandi hari inzu nyinshi zituwemo n'abantu.

Mu nyubako nini cyane ifite amabara meza iberamo imikino itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bari gukina umukino w'umupira w'amaguru. Ibi bikaba bibafasha kugira ngo imitsi yabo ndetse n'izindi ngingo z'umubiri zirambuke.

Ku mupaka a aho Ibihugu bihanira imbibi hari inyubako zagenewe gukorerwamo imirimo itandukanye ikenerwa n'abinjira ndetse n'abasohoka mu Gihugu, hakaba kandi ari icyapa kinini gifite ubuso bw'icyatsi kibisi ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umweru kikaba kereka abagenzi bari kuva cyangwa se bari kujya mu Gihugu aho bari kwerekeza.

Ikiraro kirekire gifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu n'icyatsi kibisi, cyifashishwa mu kwambuka uva ku musozi umwe ujya ku wundi. Iki kiraro kikaba gikundwa na benshi, aho kijya gikurura na ba mukerarugendo.

Imbere y'inzu nziza cyane, ifite ibara ry'ubururu ndetse ikaba ifite n'icyapa kiri hejuru yayo, cyanditseho ijambo Gira ubuzima, hateraniye abajyanama b'ubuzima benshi, bambaye imyambaro y'abajyanama b'ubuzima, bakaba bari gususurutswa n'umugabo uri imbere yabo ndetse anabafotora.

Inyubako rusange yubatswe hifashishijwe amabati afite ibara ritukura ndetse n'ibyuma bitandukanye tutibagiwe n'amatafari. Iyo nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa byo kugura ndetse no kugurisha ibicuruzwa bitandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bumwe, zubakishije amatafari, zifite amabara atandukanye ndetse zisakajwe n'amabati afite ibara ritukura. Imbere yizo nyubako kandi hari umuyoboro uyobora amazi mu gihe cy'imvura.

Ikiraro kiza cyubatswe mu byuma gifasha abantu kwambuka ahantu hamwe bajya ahandi, icyo kiraro kikaba gifite amabara y'ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, nanone kandi hari ibiti bitandukanye bifite amabara y'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugerekeranyije ifite amabara y'umweru, kuri iyo nyubako kandi imbere yayo hari ubusitani bwiza bufite indabo z'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hari kandi n'ubuyira bukoze neza, bwifashishwa mu kuva ahantu hamwe ujya ahandi.

Mu mbuga y'inyubako y'ubuyobozi hateraniye imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore aho bakurikiranye iby'umuyobozi wabo ari kubagezaho nanone kandi hari ibiti by'ubwoko bwinshi ndetse n'idarapo iriri imbere y'iyo nyubako.

Abantu benshi abagabo ndetse n'abagore, bicaye ahantu hateganyijwe bakaba bari gukurikira umuntu uri kubagezaho ikiganiro. Muri abo bantu kandi harimo abagabo babiri bambuye impuzankano z'igisirikare k'Igihugu.

Inzu nini yagenewe gahunda zitandukanye, umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'Igihugu, yifashishije indangururamajwi ari kugeza ku bamukurikiye ikiganiro kijyanye n'inteko y'umuco rusange y'urubyiruko.

Abantu bane barimo umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu ndetse n'undi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'igihugu, bari imbere y'abantu benshi, aho bari kubigisha ku bijyanye n'ingingo zitandukanye na none kandi nyuma yaho hari inyubako zigaragara ko ari iz'ibiraro by'amatungo runaka.

Mu bukangurambaga buri gukorwa abagabo ndetse n'abagore barimo umugabo wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'Igihugu ndetse n'undi wambaye impuzankano y'Igipolisi cy'igihugu bateraniye hamwe aho bafite ibintu bari kuganiraho, nanone kandi aho hantu hari ibiti by'ubwoko butandukanye bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye hamwe munsi y'igiti, aho bari gukurikirana ibyo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'ikirere ari kubagezaho, yifashishije indangururamajwi. Na none kandi imbere yabo, hari abagabo babiri, umwe wambaye impuzankano y'igisirikare cy'Igihugu, undi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'Igihugu.

Abantu benshi abagabo ndetse n'abagore ku manywa y'ihangu bateranye aho bari gutega amatwi umugabo mukuru wambaye imyenda itukura ndetse n'isaha y'umukara, akaba ari kuvugira mu ndangururamajwi abaturage na bo bamuteze amatwi.

Mu cyumba cyiza cyane gifite amabara y'umweru, cyagenewe gukorerwamo inama, hahuriwemo abantu benshi, barimo abashinzwe umutekano, bambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye z'umutekano.

Imbaga nyamwinshi irimo abagore, abagabo, abana ndetse n'urubyiruko yateraniye hamwe aho bicaye bakaba bari gukurikirana ibiganiro bari kugezwaho nanone kandi hari ibiti bifite amabara y'icyatsi kibisi aho iyo mbaga nyamwinshi y'abantu ibyicaye munsi.

Imbere y'inyubako y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku hari umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara witwikiriye umutaka wanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Umugabo wambaye imyambaro y'abakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, yifashishije indangururamajwi, ari imbere y'abaturage benshi, barimo abagabo, abagore ndetse n'abasaza, bicaye ku ntebe, akaba ari kubaganiriza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore, abasaza ndetse n'abakecuru bicaye hamwe ku ntebe zirimo izikozwe mu mbaho ndetse n'izindi zigezweho zifite amabara y'umweru, aho bari gukurikirana umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu riri imberere yabo, aho riri kubaganiriza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse hakaba hari n'umugabo wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'Igihugu bakaba bari gukurikira ibyo bari kugezwaho n'umuntu uri imbere yabo.

Itsinda rigari ririmo abagabo ndetse n'abagore, umwe muri bo wambaye impuzankano z'igisirikare cy'igihugu, undi na we yambaye impuzankano z'igipolisi cy'igihugu, bateraniye hamwe aho bari mu kababaro bafite indabo, bakaba bagiye gushyingura uwabo witabye imana.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo bambaye impuzankano z'igipolisi cy'Igihugu abandi bambaye iz'igisirikare cy'Igihugu, bakoraniye hamwe ku rwibutso, aho bagiye kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane.

Icyapa gifite umuzenguruko ndetse n'amaguru y'umukara, ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije amabara y'umweru, kiri kwerekana yuko hari inzu yakirirwamo abantu muri metero mirongo itatu ndetse kikerekana na nimero za telefone wahamagararaho mu gihe ukeneye ko wafashwa.

Icyapa ndanga gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishijwe ibara ry'umukara, kikaba ari icyapa gishyirwa ku muhanda kugira ngo kirangire abagenzi ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ikerekezo bari hafi kugeramo.

Umugabo ufite ikinyamitende gihetse imitwaro minini ari mu muhanda ugezweho, hari kandi na none n'abanyamaguru bari kugenda hirya mu tuyira twagenewe abanyamaguru.

Mu muhanda w'amabuye ufite akayira kagenewe abanyamaguru, harimo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo rusange gifite ibara ry’umweru. Uwo muhanda kandi, ukaba ukikijwe n’inzu zifite amabara y’umweru zagenewe gukorerwamo ubucuruzi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'abantu bane bari mu kibuga kirimo ibitembo bifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Icyo kibuga kikaba gikoreshwa mu kwigisha ibinyabiziga bitandukanye.

Abagabo babiri bambaye imyambaro ifite ibara ry'ikigina, bari muri gare ya Nyagatare, aho bari imbere y'imodoka, ifite ibara ry'umweru, yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, iyi modoka ikaba ivana abantu mu turere tumwe, ibajyana mu tundi maze na bo bakishyura.

Icyapa gifite umuzenguruko w'ibara ry'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'inyuguti nini cyane yandikishijwe ibara ry'umweru, cyerekana ahantu ku nkengero z'umuhanda, hagenewegararwa n'ibinyabiziga na none kandi mu muhanda harimo ikinyabiziga cy'ipikipiki cyagenewe gutwara abantu n'ibintu.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gabo barimo umugabo wambaye impuzankano y'Igisirikare k'Igihugu ndetse n'undi mugabo wambaye impuzankano y'Igipolisi k'Igihugu bafite amasuka aho bari gukora imirimo y'amaboko nanone kandi hari ibihingwa birimo insina ndetse n'ibindi.

Mu mirima y'abaturage hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo ndetse n'abagore bisa nkaho bari gukora umuganda. Abo bantu kandi bakaba bifatanyije n'abandi bagabo babiri bambaye impuzankano z'igisirikare cy'igihugu.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore, abasaza ndetse n'urubyiruko, yateraniye ahantu munsi y'igiti aho bakurikiranye ibyo bari kugezwaho n'abantu cyangwa se itsinda ry'abantu ribari imbere. Na none kandi hari ibyuma byifashishwa mu kurangurura amajwi kugira ngo n'abari kure babashe kumva.

Mu gahanda ko mu cyaro harimo abantu barimo umukecuru, umwana ndetse n'umugabo. Uwo mugabo akaba yambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi kijimye ndetse akaba yikoreye amabuye abiri ku rutugu na none kandi ari indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu batandatu bateraniye hamwe bakaba barimo umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu ndetse n'undi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'igihugu. Na none kandi hari ibinyamitende ndetse n'ikinyabiziga cya polisi y'igihugu

Abantu benshi barimo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, bateraniye mu muhanda, aho bifatanyije n'inzego zishinzwe umutekano, zirimo igisirikare ndetse na polisi y'igihugu, mu gukora umuganda rusange, ukorwa buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi.

Ni byiza cyane ko abashinzwe umutekano barimo Igisirikare k'Igihugu ndetse na polisi ikora mu muhanda begera abaturage maze bakabasobanurira zimwe mu ngingo zitandukanye zibafasha mu mibereho myiza cyane cyane nko ku mikoreshereze y'umuhanda kuko byagabanya impanuka zibera mu muhanda.

Imodoka nziza cyane igezweho ifite ibara ry'umukara, iri imbere y'inzu nini cyane yifashishwa mu kwakira imikino itandukanye irimo umupira w'amaguru. Nanone kandi hari indabo nziza zifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Urubyiruko rurimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari mu kigero k'imyaka hagati ya cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu, bari mu mirimo itandukanye y'amaboko irimo gufasha abatishoboye. Hirya yabo kandi hari ibihingwa birimo amasaka ndetse n'ibigori.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko yateraniye ku mbuga ifite ubwatsi butoshye, aho hari ahantu hateganyijwe ndetse hakaba hari umugore uri kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Hari kandi n'indangururamajwi yifashisha kugira ngo buri wese yumve ibiri kuvugirwa aho.

Itsinda rigari ry'abantu, biganjemo cyane urubyiruko, bambaye imyambaro ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bateraniye hamwe mu muhanda ugezweho, ufite amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri, nanone kandi kuri uwo muhanda, hari amatara yo ku mihanda, yagenewe kuzana urumuri, mu gihe cy'ijoro.

Itsinda rinini ry'abantu batandukanye, ryicaye ahantu hateganyijwe bari gukurikira ikiganiro bari kugezwaho. Muri abo bantu kandi harimo umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi cy'igihugu.

Umukinnyi wumupira w'amaguru wambaye imyenda yo gukinana umupira ifite amabara y'ubururu icyatsi kibisi ndetse n'umutuku n'umweru, akaba ari mu kibuga cyabugenewe gikinirwaho umupira w'amaguru gikikijwe n'ubwatsi bw'icyatsi kibisi.

imbere y'inzu ifite amabara atandukanye arimo icyatsi kibisi, umweru ndetse isakajwe amabati y'umutuku, hari abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, aho bakurikiye umugabo uri imbere yabo aribaganiriza ku ngingo zitandukanye.

Mu kibuga gifite ubwatsi butoshye umugore wambaye umwambaro wifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ari gukina umukino w'umupira w'amaguru n'abandi bagabo babiri, nanone kandi hari umurima ukikije icyo kibuga ukaba uteyemo insina zera ibitoki.

Abakinnyi b'umupira bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gukina umupira w'amaguru, bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga kigezweho gifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'imirongo y'imikara. Umwe muri abo bakinnyi akaba yambaye uturindantoki.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bahuriye hamwe mu nzu iberamo imikino y'umupira w'amaguru, aba bagabo n'abagore bakaba bari kureba imikino iri kubera muri iyo nyubako yagenewe kwakira iyo mikino.

Mu kibuga cyiza cyane gifite ubwatsi bugezweho ndetse n'imirongo y'umweru harimo abagabo bambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, abo bagabo bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu muhanda ugezweho wa kaburimbo ufite imirongo ifite amabara y'umweru ndetse n'utuyira twagenewe abanyamaguru hari kunyuramo itsinda rinini rigari ry'abantu, nanone kandi ari kunyuramo ikinyabiziga cya Polisi y'Igihugu.

Imbaga y'abantu nyamwinshi yateraniye mu nyubako yagenewe kuberamo imikino y'umupira w'amaguru. Muri iyo mbaga kandi harimo abagabo babiri bashinzwe umutekano, umwe yambaye impuzankano ya Polisi y'Igihugu, undi na we yambaye impuzankano y'Igisirikare k'Igihugu.

Ibikombe bifite ibara rya zahabu ndetse n'imidari ifite amabara atandukanye meza, bikaba bitangwa iyo habaye amarushanwa runaka, urugero twavuga nk'ay'umupira w'amaguru, ay'umupira w'intoki ndetse n'ayandi. Bikaba bihabwa uwabaye uwa mbere ndetse n'abandi baje mu myanya y'imbere.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye imyambaro yabugenewe yo gukinana umupira w'amaguru, bari mu kibuga cy'umupira aho bari gukina umupira w'amaguru, hari nanone kandi abandi bantu baje kureba uwo mukino w'umupira w'amaguru.

Mu kibuga kiza cyane gifite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'imirongo y'umweru, harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu kibuga kigezweho kiberamo imikino itandukanye, gifite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, hateraniyemo imbaga nyamwinshi yiganjemo urubyiruko, rwambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse bakaba bari no kuyikora, ibi bikaba ari ingenzi kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu kibuga gifite ubwatsi butoshye gikikijwe n'amazu atuwemo n'abantu hari abagabo babiri bambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri bakaba bari gukinira umupira w'amaguru muri icyo kibuga.

Abagabo bambaye imyenda yabugenewe ifite amabara y'umukara ndetse n'icunga bari mu kibuga aho bari gukina umukino w'umupira w'amaguru, ndetse abo bagabo bakaba bari mu kibuga cy'uwo mupira w'amaguru.

Mu kibuga gikikijwe n'ibyatsi bitoshye harimo abasore bambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Abo basore bakaba bari gukina umupira w'amaguru. Nanone kandi hari abantu bari ahantu kure hitaruye bari kureba uwo mukino w'umupira w'amaguru.

Mu kibuga cyiza cyane gifite ubwatsi bugezweho ndetse n'imirongo y'umweru, harimo abantu bambaye imyambaro ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu muhanda ugezweho ufite imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, ukikijwe n'ibiti bitandukanye, hari kunyuramo ikinyabiziga cy'imodoka, gifite ibara ry'umweru, cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Umusore wambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'umukara afite indobo aho ari gucururizamo ibikomoka ku birayi, uyu kandi ari kugenda mu kayira k'umuhanda ugezweho, kuri uwo muhanda kandi hari inyubako nyinshi cyane zifite amabara y'umweru zikorerwamo ubucuruzi ndetse kandi hakaba hari n'ipikipiki yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Mu muhanda w'umukara ugezweho unyuzwemo n'imirongo y'umweru, harimo ikinyabiziga cy'ipikipiki gihetse abantu babiri na none kandi mu nkengero z'uwo muhanda hariho amatara amurika mu gihe cy'ijoro.

Ni byiza cyane ko buri muntu wese ukoresha umuhanda yamenya uruhande aba agomba kugenderaho mu rwego rwo kugira ngo hirindwe impanuka n'ibindi ibyo ari byo byose byaziteza mu muhanda, ni ngombwa ko abagendesha amagare bamenya inzira zabo zabugenewe bityo biririnde kuba bagongana n'ibindi binyabiziga.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro y'ubururu bwijimye ndetse n'umukara, ari kugenda mu kayira kahariwe kugendwamo n'abanyamaguru kegeranye n'umuhanda ugezweho. Ni byiza kandi nanone ko buri muntu wese amenya uruhande agomba kugenderaho kugira ngo bidufashe kwirinda impanuka.

Hagati y'amazu abiri atuwemo, imwe isakaje amabati y'umutuku, haranyuramo umuhanda w'igitaka na wo ukikijwe n'ibyatsi bitoshye ndetse uwo muhanda ukaba ukikijwe n'umuyoboro, unyuramo amazi menshi mu gihe cy'imvura.

Mu gahanda gatoya k'ibitaka harimo umusore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu bw'ikirere ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi akaba ari gucuruza ibikomoka ku birayi birimo isambusa abicuruza mu ndobo.

Utuyira dushashe neza cyane turi mu nkengero z'umuhanda twagenewe kugenderwamo n'abanyamaguru ni byiza cyane ko buri muntu wese yamenya aho agomba kugendera mu ruhande rw'umuhanda kugira ngo biturinde impanuka nyinshi ziterwa n'uko bamwe muri twe baba batazi uruhande rwabo rwo kugenderaraho mu muhanda.